Tugana amavuriro kuko kwa muganga ni heza, kwa muganga haraturinda, kwa muganga baratuvura, barasanasana iminsi ikicuma, tugana amavuriro ntiturembere mu mago.

Imiti gakondo na yo ni myiza, kuko Imana yaraturinze tujye twivuza ibyaremwe, ni byiza na yo ko tuyikoresha ariko tukabanza twasobanukirwa neza, kugira ngo tudafata imiti irenze igipimo.

Igicunshu ni umuti mwiza twivuza inkorora ni mwiza kuko iyo umwana awunyoye akanywa ku rugero rwiza, abasha gukira inkorora sibyiza guha umwana igicunshu cyinshi, kuko gishobora kwangiza inzira ze zihumeka cyangwa n'umwijima.

Dukoreshe umuti witwa igitunguru, tuwukoresha mu nzira z'ihumeka twivura indwara z'ubuhumekero, kuko ntabwo ari byiza guhora kwa muganga, imiti myinshi ituma tugira ubuzima bukeya.

Ibyatsi biravura cyane, ni byiza ko tubikoresha twabanje kubitunganya neza, twabyogeje ndetse tugakoresha n'amazi yabize kugira ngo bitatwangiriza, kuko haba hariho udusimba twinshi.

Tujye twivuza imiti ya kinyarwanda cyangwa se imiti gakondo, ariko tumenye neza ko yujuje ubuziranenge tubaza abayiturangiye, kuko dushobora kunywa imiti nabi ugasanga ziduteje ibindi bibazo.

Imifumba ni igihingwa kiryoha. Abana bakunda kurya imifumba, barayikunda cyane kuko zimera nk'indimu ni byiza ko abana batazikoresha cyane, kuko zishobora kwangiza ubuzima bwabo.

Imiti ya kinyarwanda tugomba kuyitaho tukazikoresha neza, kuko ibyaremwe n'imana ni byo bivamo n'ibinini, ni yo mpamvu rero igihe urwaye ugomba kubanza witabaza imiti ya kinyarwanda.

Imiti ya kinyarwanda ni myiza kuyikoresha tubanje gusobanuza neza abaganga, gushishikariza abantu kuzajya bayikoresha babanje kubaza abangaga kuko ishobora kubamerera nabi.

Igisura ni ikimera gitinywa cyane, kuko kirababa ariko nubwo kibaba ni umuti mwiza uvura mu nda.

Imiti ya kinyarwanda ni myiza kuyikoresha. Cyane cyane ko abanyarwanda ba kera, abakurambere bacu ariyo bakundaga gukoresha. Ariko n'ibinini biva mu miti ya kinyarwanda, tujye tuyikoresha igihe bibaye ngombwa.

Sezaberu cg se mayiden ni inturusu zigira umuti ,cyane cyane mu kuvura indwara zo mu buhumekero. Reka tujye tuzibungabunga kuko zirakora cyane ndetse n'amakara yazo.

Imboga z'isogo ni imboga ziryoha cyane zigakundwa n'abakecuru n'abasaza kuko zibarinda indwara nyinshi. Kuzigereka ku bishyimbo by'ibitsimbano biraryoha cyane , natwe dushishikarize Abaturarwanda kuzajya bakunda izi mboga.

Igihingwa cya mateke n'igihingwa cyiza cyane, nigihingwa dusanga ahantu henshi ho mu byaro, abaturage iyo bakiriye bagira imbaraga, niyo mpamvu gukunda amateke, ari byiza cyane, tujye tuyabungabunga yere neza.